Abantu barenga mirongo itandatu, bicaye mu nzu mberabyombi, intebe zigiye zitondetse ku murongo kugeza inyuma, harimo abagore n'abagabo, bose bari kureba imbere, bose bacecetse bari gukurikira ibyo uw'imbere ari kuvuga.

Abantu bane, harimo abagore babiri, umwe w'umwirabura, n'undi w'umuzungu, n'abagabo babiri birabura bicaye, buri umwe wese imbere ye afite amazi yo kunywa.

Abantu bane, bicaye harimo abagabo babiri n'abagore babiri, bicaye ku ntebe imbere, umwe ari umugore, afashe iranguramajwi ari kuvuga.

Abantu bicaye ku ntebe zitukura, zigiye zitondetse ku murongo, bagashyiramo umwanya hagati, igihande kimwe n'ikindi, umugabo wambaye kositimu ari kugenda abanyuramo, afite irangururamajwi, ari kuvuga.

Abantu bicaye ku ntebe zifatanye buri umwe wese afite ibipapuro mu biganza bye, bicaye bategereje ko igihe cyabo kigerwaho bagahamagarwa hanyuma bagakorerwa ibyo bifuza.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi barenga icumi harimo abagore n'abagabo bamwe bafite amakayi n'amakaramu bari kwandika abandi bafite telefone zabo bari kurebamo abandi bari kureba imbere bakurikiye.

Abantu bari mu nzu mberabyombi bicaye, bamwe bambaye imipira isa ubururu, abandi bambaye imipira isa icyatsi, imbere yabo hahagaze umugore ufite indangururamajwi ari kuvuga.

Abantu bane bahagaze harimo abagore babiri n'abagabo babiri bazengurutswe n'abantu bicaye hasi hari n'abahagaze inyuma yaho hari inyubako itaruzura n'amadirishya rimo ndetse n'imiryango.

Abantu bicaye ku meza, bicaye no ku ntebe zegamirwa, harimo abantu batatu, abagore babiri n'umugabo umwe, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa, umugore ari kuvuga.

Urubyiruko rwicaye rwakoze igice cy'uruziga bicaye mu nzu mberabyombi ku ntebe zitukura hagaze abantu batatu, umuhungu wambaye ishati y'umukara, umukobwa wambaye ishati y'ubururu hirya yaho hari undi muhungu wambaye umupira'umweru naho uhagaze.

Abantu batatu bicaye ku meza, imbere yabo hateretse uducupa turimo amazi, harimo abagabo babiri n'umugore umwe, umugabo uri hagati ufite indangururamajwi, ari kuvuga, umugore ari kumureba, yakurikiye, ari no kumwumva, umugabo uri ku ruhande na we ari kumva ibyo ari kuvuga.

Abantu bicaye mu nzu imbere yabo, hari imeza iriho ibitambaro bibiri babanjije icy'umuhondo hasi bagashiraho icy'umweru hejuru, buri muntu wese imbere ye hari amazi yo kunywa.

Abantu barenga barindwi birabura, bari muri sale, bicaye, bari mu nama y'ihuriro rishinzwe abantu baterura ibintu biremereye, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Abantu babiri b'abiraburaka bicaye imbere yabo hari imeza umwe afashe irangururamajwi ari kuvuga afite n'ikaramu mu kiganza cye undi yazinze amaboko ari kumureba ari no kumva ibyo ari kuvuga.

Abagore bicaye mu nzu mbera byombi buri meza igiye yicayeho abantu batarenze batatu, buri meza igiye yambitswe igitambaro gisa umweru ndetse n'intebe, bose imbere yabo hagiye hateretswe icupa ririmo amazi kandi bose bari kureba imbere yabo.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi, bicaye ku meza imwe ari bane, hahagaze babiri abandi babiri bicaye, umwe mu bahagaze afite irangurumajwi ari kuvuga no kureba imbere.

Imeza ebyiri zifatanye hicayeho abantu bazengurutse izo meza, inyuma yabo hari izindi meza na zo ziteye na zo zicaweho n'abantu, imbere yaho bari kureba umuntu ufite irangurumajwi uri kuvuga mu nguni hari uri gufata amashusho.

Abantu barenga makumyabiri harimo abagore n'abagabo bicaye mu nzu mberabyombi bari kureba imbere, hari abari gukurikira bakareba imbere n'abari kureba muri telefoni zabo hari ufite mudasobwa, hirya yabo hari abahungu batatu bari kubafata amashusho.

Inzu mberabyombi irimo abantu bicaye imbere y'imeza, imeza iriho igitambaro cy'umweru umugore ufite irangururamajwi ahagaze ari kuvuga.

Abantu cumi na batandatu bicaye bakoze uruziga rw'igice, cumi na batanu muri bo bambaye udupira turiho idarapo y'igihugu, umwe muri bo yambaye ikositimu, bari mu nama, basohokeye igihugu mu marushanwa.

Inama iri kubera mu nzu mberabyombi buri meza igiye yicaraho abantu babiri buri meza igiye yambitse igitambaro gisa umweru, ndetse n'intebe nazo zambitswe igitambaro gisa umweru, imeza zimwe zitambitse izindi zihagaze.

Umuntu wicaye akaba ari umu mama, akaba afite ibikoresho by'irangururamajwi imbere ye, hakaba hari n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga ndetse inyuma ye hakaba hari idarapo ry'u Rwanda.

imeza imwe nini yicayeho abantu icyenda bane ku ruhande rumwe n'abandi ku rundi ruhande ku mutwe y'imeza hicayeho umwe n'imbere ye hakaba hari amazi, imeza yicayeho abagore n'abagabo.

Abantu bari mu nzu mberabyombi, bicaye kumeza ziriho igitambaro gitukura imbere yabo hahagaze umugore uri kuvuga wambaye ikanzu.

Abantu cumi na batatu, bahagaze bari kwifotoza, munani bari hasi, abandi batanu bari hejuru, harimo abagore n'abagabo, bose bafite ibinezaneza ku maso yabo.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zisa icyatsi imbere ku murongo wa mbere hariho abantu bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hari imeza ntoya iriho amazi ya buri umwe wese.

Abantu bane bicaye ku meza bari mu nama buri umwe wese imbere ye hari icupa ririmo amazi yo kunywa, bose bari kureba imbere.

Abantu bicaye mu nama, imeza bicayeho zakoze uruziga, hagati harimo umwanya, buri umwe wese imbere ye hari irangururamajwi, amazi yo kunywa ndetse na mudasobwa.

Inzu mberabyombi, irimo abantu benshi bicaye ku ntebe zisa ibara ry'umutuku. ku murongo wa mbere abantu bicaye bagiye bafite akameza, buri umwe wese kari ku ruhande rwe.

Abantu babiri bicaye harimo umugore n'umugabo imbere yabo hari imeza ziriho indangururamajwi umugabo yambaye imyenda y'abashinzwe umutekano umugore yambaye isengeri ndetse n'igitambaro cy'ubururu.

Abantu benshi bicaye mu gisharangati, harimo abagore n'abagabo, higanjemo abantu bambaye imipira isa ubururu, ku murongo wa mbere hicayeho abantu harimo n'umbaye imyenda y'abashinzwe umutekano w'igihugu.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi hari abantu bari gufata amashusho, abantu bicaye ku meza ya mbere bafitemo irangurumajwi ku meza zabo ndetse na mudasobwa.

Abantu bicaye buri meza igiye yicayeho ahantu runaka. Buri umwe wese imbere ye hari ikirahure kirimo amazi ndetse hari na mudasobwa cyangwa urupapuro, bose bari kureba imbere.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare usa ubururu n'ingofero na yo isa ubururu, afite indangururamajwi mu kuboko kumwe ari kuvuga; inyuma ye hari abandi bantu bahagaze bari kumwumva.

Abantu bicaye ku ntebe zegamirwa bane buri ntebe hagati hagiye harimo akameza, inyuma yaho hari amashusho ari kugaragara umwe muri bo afashe irangururamajwi ari kuvuga imbere ye hari abantu.

Umuntu wicaye akaba ari umu mama, akaba afite ibikoresho by'irangururamajwi imbere ye, hakaba hari n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga ndetse inyuma ye hakaba hari idarapo ry'u Rwanda.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi, bicaye ku ntebe zitukura hahagaze abantu babiri, umugore n'umugabo bari kurebana, umwe abajije ikibazo undi ari kumusubiza.

Inzu mberabyombi iri kuberamo inama abantu bicaye ku ntebe zisa ubururu bwijimye, imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'umutuku bose bari kumureba bamukurikije amaso, hahagaze umuntu umwe uri kuvuga ari we bari kureba.

Abantu bicaye bari mu nama mu nzu mberabyombi bicaye ku meza ziriho ibitambaro bisa umweru buri umwe wese imbere ye hari amazi yo kunywa bicaye imeza ziteye ku mpande enye ku ruhande rumwe nta meza iriho.

Abantu barenga makumyabiri harimo abagore n'abagabo bari mu nama, hari abahagaze n'abicaye, bamwe bari guseka abandi bafite ibinezaneza mu maso, abandi, batari guseka bari kureba imbere bose kandi bari kureba icyarimwe.

Abantu benshi bari munzu mberabyombi bambaye imipira isa umuhondo bahagaze inyuma y'abandi bantu bicaye bambaye imipira isa icyatsi.

Abantu batatu harimo abagabo babiri n'umugore umwe, imbere yabo hari imeza ziriho mudasobwa ndetse n'indangururamajwi kuri buri umwe wese nyuma yabo hariho igipapuro kinini byanditseho Kigali yacu Kigali ikeya.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi bagiye bicaye batandatu batandatu kuri buri meza buri muntu wese imbere ye hari amazi yo kunywa y'uruganda rw'inyange hari n'impapuro.

Abantu bicaye harimo abagore ndetse n'abagabo, bose bari kureba imbere, hari abafite mudasobwa mu biganza byabo.

Abantu bicaye bari mu nama, ameza bicayeho yakoze ikizeru, bamwe bicaye bari kureba urundi ruhande, buri umwe wese imbere ye afite amazi yo kuywa.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi buri wese yicaye ku meza imbere yari amazi intebe yicaye yambitswe igitambaro gisa umweruru, bari kureba imbere ahari abantu bicaye bari kubareba.

Abantu batatu bicaye ku meza isa ibara ry'umutuku. Harimo abagore babiri n'umugabo umwe bicaye ku ntebe zegamirwa, imbere yabo hari indangururamajwi umugabo ariwe uri kuvuga.

Mu bantu batatu harimo abagore babiri n'umugabo umwe bicaye ku ntebe zifite urwegamiro bafite ame imbere yabo ziriho irangururamajwi n'amazi imbere yabo buri umwe wese afite impapuro n'amakaramu imbere y'isi.

Abantu bari mu nzu mberabyombi hari abantu bicaye imbere ku meza iriho igitambaro kirekire kiri gukora hasi bicaye buri umwe wese imbere ye hari mudasobwa ndetse n'amazi yo kunywa.

Abantu bicaye mu ntebe, imbere y'abo hari abandi bantu bicaye, imbere y'abo hariho imeza iriho igitambaro cy'umweru, hagati y'abo bantu hari umwana w'umukobwa ufite indangururamajwi uri kuvuga.

Abantu bicaye mu modoka ku madirishya yabo hari amarido asa ubururu bwererutse, abantu bicaye mu modoka hari abari ku materefone yabo hari n'abari muri mudasobwa zabo.

Abagabo icyenda batandatu, muri bo bambaye imipira yirabura, abandi batatu bambaye imipira y'umweru, bose bicaye kumeza imbere yabo hari mudasobwa.

Abantu bicaye kumeza, buri umwe wese imbere ye hari mudasobwa, bose bacecetse uretse umugabo wambaye ishati uri kuvuga.

Inyubako ndende, imbere yayo hari umuhanda w'abanyamaguru, ku rundi ruhande hari intebe zo kwicaramo, izengurutswe n'ibiti bitandukanye by'ubwiza, hari abantu bari kugenda, n'abicaye.

Abanyeshuri babiri b'abahungu birabura bambaye impuzankano, zigizwe n'ishati y'ubururu bweruye ndetse n'amakabutura yirabura bafite ku myaka ku kigero hagati y'imyaka icumi na cumi n'ibiriri, mbere ya ho bafite mudasobwa zifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'umweru ziteretse ku meza bo bicaye.

Ubyiruko rw'abantu bane, harimo abakobwa batatu n'umusore umwe bicaye bose ku meza, buri wese afite mudasobwa imbere ye n'icyayi imbere ye bose bari kwiga cyangwa gukora.

Itangazo rikubwira gukurikirana ikiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro, iriba uyu munsi tariki cumi n'ebyiri z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na kane, saa tatu na mirongo ine, kugeza saa tatu n'iminota mirongo itanu n'itanu z'umugoroba kuri televiziyo y'u Rwanda.

Urubyiruko rwegamye ku gikuta bamwe begamye ku gikuta bahagaze ,abandi bicaye bose bafite amatelefoni mu biganza byabo ,bari kureba mu matelefone nta n'umwe uri kuvugisha undi.

Icyemezo kigaragaza aho utuye ufatira ku irembo, gihabwa na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ukishyura amafaranga igihumbi na magana atanu, ukakibona nyuma y'umunsi umwe urangije kugisaba.

Umunara munini hasi kuzamuka ugenda uba mutoya, ufite ibara risa umweru ndetse n'umutuku, ibyuma byawo bigiye byubatse ku buryo bikora impandeshatu uriho insinga.

Abanyeshuri bambaye impuzankano igizwe n'ishati y'umweru ndetse n'ipantaro cyangwa ijipo y'umukara bicaye ku meza buri mezi igihe yicayeho abanyeshuri bane buri munyeshuri imbere ye hari mudasobwa.

Urubuga ruri kwerekana ibyiza byo gutembera u Rwanda, hari n'ukuntu u Rwanda rufite inyamaswa zitandukanye, harimo intare ndetse n'izindi nyamaswa zagiye zibura mu bindi bice bitandukanye by'isi.

Urubuga rw' irembo kutambwe ya mbere aho ari umugabo wambaye umupira w'ubururu w'umwirabura ufite terefone mu kiganza ari kwerekana icyo bisaba ndetse n'ibyo ugomba gukora kugira ngo ubone ibyo ushaka ku rubuga rw'irembo.

Itangazo ryatanzwe n'ikigo gishinzwe umusoro n'amahoro kivuga ko uyu munsi ari bwo itariki ntarengwa, utagomba kurenza kugira ngo ube wararangije kumenyekanisha ndetse no kwishyura umusoro w'ipatante.

Itangazo rivuga ko habura iminsi ibiri, kugira ngo igihe cyo kumenyekanisha, no kwishyura umusoro w'ipatante, ya bibiri na makumyabiri na kane kigere, kibutsa ko, yuko uzayirenza iyo tariki azabihanirwa, n'amategeko.

Icyumba kirimo abantu bicaye ku meza ari babiri babiri, buri meza imbere yayo hagiye hari mudasobwa buri muntu wese afite iye, imbere yabo hari umuntu w'umugabo uhagaze ari kuvuga.

Itangazo rivuga ku munsi y'ikiruhuko rusange ryashyizweho bashingiye ku iteka rya perezida ryo kuri cumi n'icyenda z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kabiri, ku wa mbere tariki ya makumyabiri n'esheshatu Ukuboza bibiri na makumyabiri na kabiri, ni umunsi w'ikiruhuko rusange mu rwego rwo kwizihiza umunsi ukurikiye noheli no kuwa mbere tariki ebyiri Mutarama nawo ukaba umunsi w'ikiruhuko.

Urubuga rw'irembo, aho utangirira, aho bari kukwereka ibyo ikundwa kubazwa, n'uko ubigenza kugira ngo urwinjiremo, n'icyo bisaba, n'uko uri bubikore.

Abagabo babiri bicaye hasi ku kabaraza wirabura, umwe yambaye imyenda y'abashinzwe umutekano bakorera ikigo cyigenga, undi yambaye ishati ndetse n'ipantaro, ku ruhande hari undi musore uhagaze ari kuri telefone

Itangazo rigaragaza ko hasigaye iminsi ibiri, kugira ngo abantu babe bararangije kwishyura imisoro itangwa kumishahara yabo buri nyuma y'amezi atatu, kandi inabibutsa ko uzasanga yararengeje igihe azahanwa.

Itangazo ryibutsa ko hasigaye iminsi icumi kugira ngo abantu be bararangije kwishyura imisoro itangwa buri nyuma y'amezi atatu ku mwaka, kandi babibutsa ko uzatinda kwishyura azabihanirwa.

Ku rubuga rw'Irembo, ku ntambwe ya gatatu aho bari kukwereka ibisabwa kugira ngo ukore ikizamini cy'uruhushya rw'icyiciro cyisumbuye, aho ugomba kuba uri umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi, ugomba kuba ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga cya burundu kandi nti gifite agaciro, ugomba kugira nimero ya telefone ibaruje kuri email.

Inzu ifite igisenge kiriho amabati asa oranje, hamanitseho ibyuma bibiri bifite amabara y'umweru, bikurura amashusho bikayajyana mu byuma by'ikoranabuhanga biri mu nzu.

Umunara w'ibyuma hasi ari munini uko ugenda uzamuka ugenda uba mutoya, uri hagati y'indabo mu muhanda hagati abantu bari kunyuraho muri uwo muhanda werekeza mu byerekezo bitandukanye.

Umunara wubakishijwe ibyuma bisize ibara ry'umweru uko ugenda uzamuka ugenda uba mutoya ugereranyije n'uko wanganaga ukiri hasi ufite insinga ziri kwerekeza mu byerekezo bitandukanye.

Umuhanda ukikijwe n'ibiti hamwe n'indabo, urimo imodoka ziri kugenda zerekeza mu byerekezo bitandukanye, ku muhanda hahagaze abantu bategereje imodoka ngo ize ibatware, hari n'igiti kiriho amashanyarazi.

Umunara ugizwe n'ibyuma munini hasi uko ugenda uzamuka ariko ugenda wegerana ubamo muto, uriho insinga nyinshi ziri kwerekeza mu byerekezo byinshi kandi bitandukanye.

Umugore w'umwirabura kazi wambaye imyenda y'abakozi bakorera ikigo gishinzwe amashanyarazi mu gihugu, ahagaze ku rwego rwafashe ku giti, igiti kiriho amashanyarazi.

Umuhanda mu mpande zayo hari inzira zagenewe abanyamaguru, uruhande rumwe rurimo imodoka ebyiri zihagaze. Umuhanda uzengurutswe n'ibiti ndetse ugiye ufite amatara ari kumurika mu muhanda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, ku ruhande hari umuhanda w'abanyamaguru, ku ruhande rw'abanyamaguru hari amatara maremare, amurika mu muhanda, hari ibiti ndetse hari n'umunara uri hiya yaho y'umuhanda.

Umunara wubatswe mu byuma, munini hasi, mutoya hejuru, ugenda uzamuka ariko ugenda uba mutoya, uriho insinga zerekeje mu byerekezo bitandukanye kandi nyinshi.

Umunara ukozwe mu byuma munini hasi, uko ugenda uzamuka uba mutoya, ufiteho insinga ziri kujyana mu byerekezo bitandukanye.

Umunara munini hasi ugenda uzamuka ariko ugenda wegerana, ugiye ukozwe mu byuma bigiye bikora ishusho ifite impande eshatu ziriho insinga ziri kuva ahantu runaka zijya ahandi.

Imihanda ibiri ifatanye itandukanijwe n'ubusitani buri hagati y'iyo mihanda buteyemo n'ibiti, wakwigira hirya ukabona umuhanda w'abanyamaguru, wakwigira hirya ukabona ivuriro ry'abagore batwite.

Icyumba gifite mpande eshatu, impande zose ziriho intebe, hari uruhande rumwe rwo hagati, hariho amadirishya manini afunguye, ku ruhande hari akagare gatwara abantu bafite ubumuga, hari igitambaro cy'ubururu gifunguye.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zikozwe n'ibiti ndetse n'ibyuma, ku ruhande rumwe hari bamwe, no ku rundi ruhande hari abandi, imbere yabo hagihagaze umuntu wambaye imyenda y'abakozi bakora kwa muganga.

Inzu zubatse zidafite ibisenge bizamuye zifite ibigega biri hejuru yazo, imbere y'izo nzu hari ubusitani, hirya yaho hari iyindi nzu ifite igisenge kizamuye.

Abantu bari mu inzira basohoka mu bitaro hari umugabo umwe ufite umugozi mu kuboko hari n'abagore babiri bahetse abana umugore uri imbere afite ubumwenyu ku maso ye ndetse no ku munwa undi uri inyuma afite igikapu mu ntoki.

Imodoka igiye hejuru y'ibambangukiragutabara itwikiriwe n'amabati, ifite amabara umutuku, ubururu ndetse n'umweru, ifite amatara ari hejuru y'iyo modoka asa ubururu, umutuku ihagaze.

Inzu ngari ikozwe mu matafari, ikagira igisenge kizamuye, kiriho amabati atukura, imbere yayo hari ubusitani buhari burimo n'ibiti bibiri, ibitoya n'ibinini.

Abantu bane bicaye ku ntebe imwe ikozwe mu giti, bazengurutswe n'abantu, bamwe bicaye hasi, abandi bahagaze, inyuma yabo hari igiti kinini gifite amababi manini, cyabakingirije izuba ndetse n'umuyaga.

Abanyeshuri benshi ba kaminuza bari ku murongo abenshi muri bo bambaye amakanzu y'umukara bashyizeho ingofero nazo zisa umukara bajya mu kirori gisoza amasomo yabo.

Umuhanzi uzwi ku izina rya Kizito, yambaye imyenda y'imfungwa, azengurutswe n'abantu, bamwe bicay, abandi bahagaze, bari kumureba, na we ari kumva ibyo bari kumucira. Urubanza.

Umugore wirabura ufite umusatsi uringaniye wambaye imyenda y'abakozi bakora mu butabera ari kureba imbere.

Abagabo babiri birabura, umwe yambaye amadarubindi yambaye n'iyenda y'imfungwa, undi yambaye imyenda y'abakozi bakora mu butabera amuhagarariye ku mategeko.

Umugabo wirabura udafite umusatsi ufite ubwanwa hagati y'izuru ndetse n'umunwa wambaye ishati y'umweru na karuvati y'ubururu bwijimye, yambaye ikanzu itukura yambarwa n'abakozi bakora mu bugenzacyaha.

Umugabo wirabura wambaye amadarubindi udafite umusatsi hamwe n'ubwanwa yambaye ishati yumweru na karuvati y'ubururu bwijimye, yambayeho ikanzu y'abakozi bakora ubutabera ari kureba imbere.

Igipangu kirekire cyane cyubatswe mu matafari gifite igipangu gisa ibara ry'umweru na cyo kirekire hejuru handitseho ngo gereza ya Nyarugenge.

Umusaza wirabura, wicaye, wambaye ishati y'umweru na karuvate y'ubururu bwijimye, akambara ingofero, inyuma ye, hari igitambararo gisa ubururu bwerurutse, kiriho igishushanyo.

Abagabo babiri barikumwe, umuzungu n'umwirabura, umuzungu yambaye imyenda y'abashinzwe umutekano, n'amarinete, umwirabura yambaye kositimu n'amapingu, umuzungu afashe umwirabura.

Umugabo w'umwirabura uri kureba imbere ye yambaye ishati irimo uturongo na karuvati, yambayeho ikanzu y'abakozi bakora mu bushinjacyaha uri kureba imbere ye atari guseka.

Umugabo wirabura ufite umusatsi mukenya, wambaye ishati yambariyeho ikanzu y'abakora urwego rushinze ubugenzacyaha, igihugu ari kureba imbere.

Igipangu kirekire gifite hejuru icyuma cyanditseho gereza ya Muhanga, hariho n'igihe iyi gereza bayifunguriye.

Abantu bateye intebe mu byatsi abandi bicaye hasi hahagaze umugabo wambaye ikositimu w'umwirabura ufite umusatsi ari kubabwira afite urupapuro mu ntoki ze.

Umugabo w'umwirabura ufite ubwanwa munsi y'izuru, yambaye ingofero harimo umuronko umwe munini, ufite ibara risa zahabu, yambaye imyenda y'abakozi bakora mu nzego z'ubutabera mu gihugu.

Umugore wirabura wambaye amarinete, imisatsi ye igera ku rutugu yambaye ikanzu y'abakozi bakora mu butabera, yambaye n'ingofero isa umuhondo, harimo umurongo umwe usa umukara. Ari kureba imbere inyuma ye haridarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Kizimyamwoto, ifunze, iriho amabwiriza y'ukuntu ukoresha kizimyamwoto, ku gicupa cyayo inyuma, ifashe ku gikuta, bayizirikishije umushumi w'umukara.

Abantu babiri bambaye imyenda y'abashinzwe kuzimya umuriro, bafashe igihombo kirimo amazi menshi bari kuzimya, hari n'undi muntu ubari inyuma ufashe igihomba ari kubafasha.

Inyubako y'abashinzwe umutekano w'igihugu iherereye i Muhima ishinzwe kugenzura no gutanga ibizamini by'abantu bashaka gukorera ikemezo kibemerera gutwara ibinyabiziga mu gihugu cy'u Rwanda.

Abantu bambaye imyenda y'abashinzwe kuzimya umuriro, bafite amahombo abiri ku mpande ebyiri, uruhande rumwe hariho abantu bane bafashe igihombo n'urundi ruhande hariho abantu bane bari kuzimya umuriro.

Umugabo wirabura wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano, ahagaze mu muhanda yahagarikishije ibinyabiziga bimwe na bimwe, ari kureba imyirondoro y'abatwaye ibyo binyabiziga.

Umuntu wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano mu muhanda w'igihugu cy'u Rwanda ukuboko kumwe yakuzamuye, ukundi yagutambitse ari gukora ikimenyetso cyo guhagarika imodoka ku ruhande kugira ngo agire ibyo azibaza.

Imodoka y'abashinzwe umutekano, ifite intebe hejuru ku modoka ihagaze imbere y'inyubako, imbere ya banki yitwa Zigama iherereye ku Muhima mu mujyi wa kigali.

Umuhanda igihande kimwe warapfuye ikindi gihande uri muzima, harimo imodoka ziri kugenda, harimo imodoka y'abantu bashinzwe umutekano, inyuma yabo hari imodoka y'abashinzwe amashanyarazi mu Rwanda.

Abantu bane barimo abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, umugabo umwe afite irangururamajwi ari kuvuga bose bahagaze.

Umugabo wirabura udafite umusatsi; ufite ubwanwa, wambaye kositimu y'ubururu bwijimye, karuvati y'umutuku n'ishati y'umweru, yicaye yabumbatanyije amaboko ye ku meza iri imbere, inyuma ye ku ruhande rumwe harimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu begeranye bari kumwe bambaye imipira y'umweru abandi bambaye iy'ubururu abandi bambaye iy'umutuku bafite amadarapo yanditseho efuperi bafite ibinezaneza ku maso yabo.

Umugore w'umwiraburakazi wambaye ishati y'umweru yakenyeyeho igitenge yambaye isaha ku kuboko hamwe n'impeta ufite umusatsi mwinshi ahagaze inyuma ye hari ibiti binanutse.

Umugabo wirabura wambaye ipantaro ikositimu y'ubururu n'ishati y'umweru na karuvati y'umutuku uhagaze mu muhanda, afite irangurumajwi ukuboko kumwe ukundi kuboko afite bibiya abantu bahagaze bari kumureba.

Abantu bari mu mbuga ngari ari benshi cyane begeranye abenshi barimo bivanze bambaye umupira w'ubururu, umweru cyangwa umutuku, bafite amadarapo ya FPR bayazamuye mu kirere, imbere yabo hari umuyobozi w'Igihugu KAGAME Paul nawe yazamuye ikiganza mu kirere.

Ibiganza byirabura byambaye impeta, bifite impapuro z'itora mu biganza byazo, aho urahitamo uwo ushaka gutora, yaba ari Kagame Paul, Habineza Frank na Mpayimana Philippe, uwo ushaka ko azakubera umuyobozi w'igihugu muri manda ikurikiraho, ugashyiraho igikumwe.

Abantu bahagaze hari abambaye ikositimu n'amadarubindi hari n'umuntu wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano hari n'umugore nawe wambaye amadarubindi bose bafite agahinda mu maso yabo.

Abantu batatu bari mu cyumba cy'itora. Umugabo ari gushyira urupapuro ruriho amatora ye ahabugenewe, umugore ari kuva mu cyumba yaje kwihereramo agatora, umugabo wundi ahagaze ku ruhande, ategereje ko undi arangiza, na we akajyaho

Inzu mberabyombi yicayemo abantu hari umugabo uri imbere, ufite telefone mu biganza bye ari gufotora imbere yambaye kositimu, wirabura afite umusatsi mwinshi yicaye ku ntebe yegamirwa.

Antu bane bambaye imipira isa umweru imbere yabo hariho imeza iriho amacupa abiri kuri buri umwe wese y'amazi hahagaze umwe afite iranguramajwi ariko.

Abantu benshi bari mu mbuga ngari bambaye imyenda yiganjemo: umutuku, umweru, ubururu. Bafite amadarapo nayo yanditseho efuperi asa ibara umutuku, umweru, n'ubururu, imbere yawo hahagaze umuyobozi w'igihugu Kagame Paul.

Abantu benshi bari mu mbuga ngari bamwe bicaye abandi bahagaze, imbere yabo hari imeza iriho abantu bicaye, bamwe bahagurutse abandi bakomeje kwicara abahagurutse bari imbere bari kuvuga.

Umugabo wirabura wambaye ikositimu y'umukara n'ikaruvati y'umukara yambaye ishati y'umweru inyuma ye hicaye abantu bari kumukurikira banamureba ,afite indangururamajwi ari kuvuga.

Inama iri kubera mu nzu mberabyombi abantu bicaye bane bane kuri buri mezi bose bari kureba imbere imbere hagaze umuyobozi w'igihugu Kagame Paul afite indangururamajwi ari kuvuga afite n'ubutoki yatunze hejuru.

Umugore wambaye igitenge yambaye n'umukufi mu ijosi wirabura, afite imisatsi igeze ku matwi ayikoreye imbere, afite igitabo mu ntoki ze.

Abantu benshi bicaye bambaye imyenda yiganjemo umutuku, ubururu n'umweru, ku ntebe ya mbere hicayeho ababyeyi bakuru, bambaye imishanana, igiye itandukanye ariko yose ifite amabara arimo ubururu, umweru n' numutuku

Abantu bari mu cyumba cy'itora, hari umugore uhetse umwana, afite urupapuro ruriho amatora ye, ari kurushyira ahabugenewe, uwundi mugore agiye mu cyumba cyo kwiherera ngo yandike amatora ye.

Umugore wirabura wambaye amadarubindi, n'umusatsi ugera munsi y'amatwi, yambaye ikote risa iroza, ririmo ibirabo ndetse n'ijipo isa umweru, irimo ibirabo n'inkweto ndende yicaye mu ntebe.

umugabo wirabura udafite umusatsi, udafite ubwanwa wambaye ikositimu y'ubururu bwijimye ndetse na karuvati y'ubururu n'ishati y'umweru, inyuma ye hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abagabo babiri bari mu cyumba cy'itora birabura umwe ahagaze imbere y'ahabugenewe ushyira amatora ari gushyiramo amajwi, uwundi ahagaze inyuma ye ari kumureba ategereja ko arangiza gutora nawe agatora.

Umugore w'umwiraburakazi wambaye amadaro, bindi ufite imisatsi miremire yayifunze, yambaye ikositimu y'umukara, yambaye nk'umwenda wo mo imbere usa n'umweru, imbere ye hari indangururamajwi.

Umugore wirabura, wambaye amadarubindi, n'imisatsi igera ku matwi, yambaye ikote risa umweru, ririmo ibirabo, yambaye n'urunigi mu ijosi, ari kureba imbere.

Umukandida Mpayimana yambaye ikositimu y'ubururu na karuvati y'umutuku n'ishati y'umweru yicaye, imbere hari mudasobwa ndetse n'amarangururamajwi imbere ye, ari kugirana ikiganiro n'abanyamakuru, ari kwiyamamariza amatora ya bibiri na makumyabiri na kane yo kuba perezida w'Igihugu.

Abantu bari mu mbuga ngari bahagaze higanjemo abantu bambaye imipira imwe isa ubururu, cyangwa umutuku cyangwa umweru bafite amadapo yanditseho FPR nayo asa ubururu, umutuku n'umweru umukuru w'igihugu ari kugenda abanyuramo abasuhuza.

Abantu barenga igihumbi bari kumwe begeye bahagaze mu mbuga ngari, abiganjemo bambaye imipira y'umweru, abandi bambaye imipira y'umutuku, abandi bambaye imipira y'ubururu n'imipira y'umukara bari bari kwamamaza amatora bashyigikiye ishyaka rya FPR.

Umugabo wirabura, wambaye ishati y'umweru, irimo uturongo dutoya dusa ubururu, wambaye na karuvati isa umutuku, afashe indangururamajwi ari kuvuga, ari kwiyamamariza kuba umuyobozi w'igihugu, yitwa Mpayimana Filipe.

Itsinda rikora mu matora y'igihugu ryashyize amatora yose hamwe ririkubara amatora yatowe n'abaturage.

Umugore w'umwiraburakazi ufite umusatsi muke wambaye ikositimu wicaye ku ntebe zegamirwa, imbere ye hari imeza iriho irangururamajwi ebyiri, hari n'ibipapuro ndetse na mudasobwa.

Abantu babiri umugore n'umugabo bicaye ku ntebe zegamirwa, imbere yabo harimeza iriho irangururamajwi ndetse na mudasobwa.

Icyapa cyanditseho komisiyo y'amatora y'igihugu babwira abantu ngo bitabire amatora y'abadepite yabaye mi bibiri na cumi n'umunani, bamwe bari kujyayo abandi bari kuvayo harimo abagore n'abagabo bose.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo igare umunyonzi ahetse umuntu harimo igikamyo gisa ibara ry'umweru harimo uturongo tw'ubururu, ibinyabiziga byose biri kwerekeza mu cyerekezo kimwe.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cy'igikamyo gifunguye hejuru, bafungishije shitingi kiri kugenda mu muhanda, ku ruhande rumwe hari ibikorwaremezo biri kubakwa.

Umuhanda urimo imodoka n'igikamyo cyanditseho minisiteri y'ubuvuzi, hino yayo hari umugabo wikoreye imitwaro, hirya yayo hariyo abajenti bari kugenda mu kerekezo gihabanye n'iyo modoka.

Imihanda ibiri yegeranye itandukanyijwe n'ubusitani burimo ibiti, yerekeje mu byerekezo bihubanye uruhande rumwe rurimo imodoka y'ikigo gishinzwe amakuru mu rwanda urundi rurimo imodoka y'umukara.

Umuhanda urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, biri kwerekeza mu amerekezo atandukanye, kandi ahabanye harimo imodoka y'igikamyo gifite ibara ry'umweru, hariho igisitingi gisa ubururu.

Inzu y'ubucuruzi igeretse gatatu, imbere yayo hari kunyura ibinyabiziga bitandukanye, kandi byerekeza mu byerekezo bihabanye, harimo igikamyo kinini cy'umweru gifite amapine atandatu, gitwaye imizigo cyazirikishije shitingi.

Imodoka ngufi iri mu muhanda, iri kugenda, yegeranye n'umuhanda w'abanyamaguru, ku rundi ruhande hari indabo ndetse n'ibiti, hari n'amatara agiye ateye kuri izo ndabo.

Ibinyabiziga biri mu muhanda biri kwerekeza mu byerekezo bitandukanye kandi bihobanye hari ikinyabiziga cy'igikamyo gisa umweru gikurura ibintu kidafite icyo gitwaye ku ruhande hari umuyoboro uyobora amazi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, biri kwerekeza mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande hari umuyoboro ujyana amazi, ku rundi ruhande hari inzira igenewe abanyamaguru.

Ibinyabiziga bibiri bisa umweru, bitwara abagenzi rusange, birimo uturongo dusa umweru byanditseho yego, bitwara abagenzi batarenze umunani.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye biri kwerekeza mu byerekezo binyuranye kandi bihabanye, hari igikamyo gisa ibara ry'umweru gifite umuntu hejuru uyahagazemo, hari n'umugenzi nawe uri kugenda.

Imodoka itwara abagenzi rusange ifite ibara risa umweru ntamugenzi n'umwe urimo utwara imodoka yicaye ari wenyine imodoka ihagaze yegeranye n'izindi modoka zihagaze nazo zitwara abagenzi rusange.

Imbugangari yagenewe kubika cyangwa guhagarara kw'ibinyabiziga bitwara abagenzi rusange izengurutswe n'inzu z'ubucuruzi z'ubwoko bwose .

Umuhanda urimo ikinyabiziga gisa umweru inyuma gifunguye kirimo ibintu, kiri kugenda kuhande inzira y'abanyamaguru harimo umuntu nawe uri kugenda.

Imihanda ibiri ifatanye itandukanyijwe n'ubusitani buri hagati burimo ibiti binini byakuze, harimo n'amatara amurikira umuhanda, umuhanda umwe uri kugenderwamo n'ikinyabiziga cy'amapine abiri gitwaye n'umugenzi.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cy'amapine abiri gitwaye umugenzi, ku mpande zombi hagiye hariho inzira y'abagenzi, inzira ifatanye n'ubusitani, ku ruhande rwo ruruguru hakaba ari ibiti byisi, kurwo hepfo hakaba hariho indabo nyinshi.

Ikinyabiziga gitwara abagenzi rusange kinini gifite ibara risa ubururu n'umukara kirahagaze gitegereje abagenzi ngo buzure kigende.

Umuhanda urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye ufatanye, n'imbuganga ngari irimo ibinyabiziga bitandukanye by'ubwoko hari ihagaze hari n'ibiri gusohoka.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cy'igikamyo gifite ibara risa umutuku gifunguye harimo umucanga, ku ruhande hari ibiti hari ibikorwa remezo biri kubera aho ngaho.

Umuhanda urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye biri kwerekeza mu byerekezo bitandukanye, hari imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'uturongo dutukuye, ifunguye inyuma, umuntu yicayemo inyuma.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye biri kwerekeza mu byerekezo bihubanye harimo; imodoka y'igikamyo ifite ibara risa umweru, ku ruhande rumwe rw'umuhanda harimo umuyoboro w'amazi, ku rundi ruhande arimo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitatu, biri kwerekeza mu cyerekezo kimwe, inyuma hari imodoka ifite ibara ry'ubururu bwijimye ndetse n'umuhondo, y'iposita kumpande z'umuhanda hateyeho ibiti birebire ariko binanutse.

Umuhanda urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, biri kwerekeza mu byerekezo bitandukanye kandi binyuranye, ifite n'inzira zagenewe kugendwamo abagenzi ku mpande.

Imihanda irenga itatu yerekeza mu byerekezo bitandukanye igiye ifite aho abagenzi bambukira, harimo abagenzi bari kwambuka, harimo ibinyabiziga biri kugenda mu byerekezo bitandukanye, harimo n'amatara.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo igikamyo gifite amapine atandatu gisa umweru, hejuru yayo harengejeho shitingi isa ubururu bakazirikaho imikoba kugira ngo imizigo irimo itaza kuvamo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, harimo n'abantu bari kugenda mu byerekezo bitandukanye, hari umugore wari wikoreye, yatuye ibintu yari yikoreye.

Imihanda ibiri iri kumwe ireba mu byerekezo bihubanye itandukanijwe n'ubusitani buri hagati y'iyo mihanda ubusitani burimo n'ibiti birebire binini byiza muri iyo mihanda harimo ibinyabiziga bitandukanye ubwoko.

Umuhanda wapfuye urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, uri kwerekeza mu byerekezo binyuranye, hirya har’inzu z'ubucuruzi z'ubwoko butandukanye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye biri kwerekeza mu cyerekezo kimwe hari mu modoka y'umweru nini itwara abagenzi rusange hino yaho hari umugabo wikoreye imifuka w'umwirabura uri kugenda.

Umuhanda wapfuye, urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, biri kwerekeza mu merekezo atandukanye kandi ahabanye, ku ruhande hari inzu z'ubucuru.

Umuhanda ku ruhande aho imodoka zihagarara hirya yaho hariho ibishushanyo biriho intore ziri kubyina, hariho ingagi, hariho gutembera u Rwanda, ariho amatara imbere y'uwo muhanda.

Ikinyabiziga gisa ibara ry'umweru hacirimo akarongo k'umuhondo hasi gitwara abagenzi rusange kiri mu muhanda kiri kugenda.

Ijoro ryaguye ibinyabiziga bibiri bisize amabara y'umweru biri kwinjira mu mbuga ngari aho ibinyabiziga bihagarara kandi bikanarara.

Bwagorobye mu muhanda abanyonzi batandatu baparitse amagare yabo barahagaze imbere y'amagare yabo, bari kuganira mu muhanda harimo ibinyabiziga birikwerekeza mu byerekezo bitandukanye byacanye amatara.

Imodoka y'abagenzi rusange ihagaze, ifite ibara ry'umweru, mu modoka hicayemo abagenzi, bategereje ko haza abandi modoka ikuzura, hanyuma igahaguka ikagenda mu masaha akuze.

Umuhanda urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye biri kwerekeza mu byerekezo bitandukanye, harimo ikinyabiziga gitwara abagenzi rusange benshi hari abahagaze n'abicaye gisa ibara ry'ubururu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, harimo ibinyabiziga by'amapine atatu, ku mpande z'uwo muhanda urimo ubusitani butandukanye bugiye buteyemo ibiti bikiri bito bitarakura.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye biri kwerekeza mu byerekezo bitandukanye, harimo n'abanyamaguru aho bari kugenda

Imbuga ngari igiye iciyemo imihanda, n'ahandi igiye itandukanyijwe n'inzira y'abagenzi. Muri iyo nbuga ngari hahagazemo imodoka zitwara abagenzi, hagihe harimo intebe abagenzi bicaramo.

Umuhanda wegereye inzira y'amazi, umuhanda hari kugendamo imodoka nini itwara abagenzi rusange ifite ibara ry'ubururu n'umweru, harimo kugendamo n'abagenzi bari kwerekeza mu byerekezo bitandukanye kandi bihubanye.

Imbuga ngari ifite amabuye mato cyane, hasi ibikwamo cyangwa hagahagaramo imodoka zitwara abagenzi rusange, imbuga izengurutswe n'inzu z'ubucuruzi.

Imodoka eshatu zihagaze zifite ibara ubururu, umuhondo, umweru zitwara abagenzi rusange hirya yazo mu nzira y'abanyamaguru hari umugore uhagaze wambaye ikanzu y'umukara, igitambaro mu mutwe hirya ye ari intebe zicabwamo n'abanyamaguru zitwikiriye.

Umuhanda urimo igikamyo gitukuye gifite amapine atatu gifunguye hejuru harimo n'abantu bari kwerekeza icyerekezo gihabanye n'aho icyo gikamyo kiri kwerekezamo, hirya yabo hari inzira y'amazi.

Umuhanda werekeza mu cyerekezo kimwe, birimo ibinyabiziga bitandukanye, mu mpande zayo, hariho ibiti, hari uruhande rumwe ruriho umuyoboro ujyana amazi, ku rundi ruhande hariho ibikorwa remezo biri kubakwa.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo amagare abiri ari gusunikwa n'abanyonzi ayo magare ariho imizigo iremereye, harimo imodoka itwara abagenzi isa umweru ifite uturongo dusa umuhondo hasi.

Inzira y'abanyamaguru ihagazwemo n'ibinyabiziga by'amapine abiri ku ruhande hari umuhanda imbere yabo hari inyubako ya amagorofa abantu bari kugenda mu byerekezo bitandukanye kandi bihabanye .

Imbuga ngari yagenewe guhagararamo ndetse no kubikwa kw'imodoka zitwara abagenzi rusange hahagazemo ibinyabiziga bitatu byose bifite ibara ry'umweru iyo mbuga izengurutswe amasoko rusange agenewe ubucuruzi.

Imihanda ibiri ifatanye itandukanyijwe n'ubusitani buri hagati y'iyo mihanda, mu busitani hateyemo ibiti birebire kandi byiza by'ubwiza, imihanda harimo ibinyabiziga bitandukanye yerekeza mu byerekezo bitandukanye.

Ikirere kijimye amagare atatu ahagaze mu muhanda igare rimwe umuntu ahagazeho aryegamyeho, hari n'imodoka ifite amatara ari kumurika cyane, isa umweru iri kugenda mumerekezo ahabanye nayo magare.

Umuhanda urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, harimo ikinyabiziga cy'amapine atandatu hakajya n'ikindi kinyabiziga gitwara abagenzi rusange, hakaba n'igare umunyonzi ari kurikurura.

Ihuriro ry'imihanda iyo mihanda itandukanyijwe n'ubusitani burimo ibiti byongera ubwiza mu gihugu, hari n'amatara amurika mu muhanda, inyuma hari inyubako za etaje zubatse.

Igice cyo mu mujyi wa Kigali ibinyabiziga byose uretse igare bitemerewe kuhanyura, abantu aribo bajya kuhicara, bakajya kuhaganirira, abana bakajya kuhakinira ndetse no kuhatwarira amagare.

Ikigo cy'ishuri cyubatswe mu matafari, ku ruhande hari iyindi nzu ishushanyijeho abana bari gukina hamwe nabari kwiga, ifite ibara ry'umuhondo iyo nzu ari urugo mbonezamikurire y'abana bato muri icyo kigo.

Uyu ni umwe mu mihanda ishobora kuba igaragara mu Rwanda, aho bagaragaza agace imodoka nk'izitwaye abagenzi cyangwa se n'izitwara imizigo zishobora kuba zahagarara umwanya muto mu gihe cy'akaruhuko.

Icyapa gifite impande eshatu gishyirwa mu muhanda kigaragaza ko muri uwo muhanda uri kugendamo imbere yawo hari dodani uko ukomeza ugenda uraza guhura nazo nugera imbere.

Icyapa giteye mu mbuga ngari gifite ibyuma bitatu bigifashe kerekana aho ikibuga cy'indege cy'u Rwanda giheherereye ndetse n'andi macumbi aho aherereye.

Icyapa gifite mpande eshatu zisa ibara ry'umweru, kirimo umuntu uri kugenda yambuka umuhanda mu nzira yagenewe abanyamaguru, kizengurukijwe n'akarongo gasa umutuku.

Umuhanda umwe muremure ugendamo ibinyabiziga bigenda mu byerekezo bihabanye ku ruhande rumwe ufatanye n'umusozi, ku rundi ruhande rugendwamo n'abanyamaguru ari icyapa cyanditseho akarere ka Karongi.

Icyapa gisa abara ry'umweru, gifite impande eshatu, kizengurukijwe n'umurongo gusa ibara ry'umutuku, hagati hari igishushanyo cy'umunyamaguru uri kwambuka.

Icyapa gisa ibara ry'umweru, gifite uruziga ruciyemo umurongo rurimo inyuguti "p" munsi yarwo handitse amagambo avuga ko aho hantu bitemewe kuhahagarika.

Umuhanda ku ruhande rwayo hari umuyoboro w'amazi, hirya y'uwo muyoboro w'amazi hari ubusitani burimo icyapa, kivuga ko aho ngaho utemewe kuhahagarika ikinyabiziga cyawe.

Umuhanda w'abanyamaguru ku ruhande rwayo hari ubwatsi burimo icyapa kigaragaza, ko aho ngaho uhageze ushobora guhindura inzira ubishatse.

Icyapa gisa umweru hagati harimo uruziga rusa umutuku ruciyemo umurongo rurimo imodoka bikwereka ko aho hantu imodoka zitemewe kuhahagarara wahahagarara ukabihanirwa n'amategeko.

Umuhanda urimo ibinyabiziga biri kugenda, ku ruhande hari ubusitani, bivuga ko nukomeza imbere, uraba ugiye kwinjira mu gihugu cy'u Bugande.

Icyapa gisa ubururu harimo umurongo w'umweruru w'ikizeru urimo inyuguti ya pa hejuru, hasi hakajya igishushanyo kinyabiziga cy'imodoka.

Icyapa gisa umweru kirimo uruziga rusa umutuku ruciyemo umurongo, harimo inyuguti ya pa, bigaragara ko aho hantu bitemewe kuhahagarika ikinyabiziga cyawe.

Inyubako y'ubucuruzi igeretse, kuri etage ya kabiri hari imiryango ibiri y'ahantu abantu bajya gutega bajya.

Umuhanda w'ibitaka, ku ruhande rwayo hari inyubako zigiye zigeretse, buri nyubako igiye iri mu gipangu cya yonyine.

Umuhanda w'ibitaka muremure uri hagati mu ngo z'abantu ugiye ufite ahazamuye n'ahamanutse, harimo ibinyabiziga byo mu bwoko bitandukanye n'abantu bari kugenda, ufatanye n'amaduka ndetse n'inzu z'abantu.

Inyubako igeretse gatanu y'ubucuruzi imbere yaho ifite imbuga ihagazemo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, wakwambuka hirya ukaba ugeze mu muhanda urimo ibinyabiziga biri kwerekeza mu byerekezo bitandukanye kandi nabyo bitandukanye.

Imbuga irimo ubusitani bwagiye bushira ku bice bimwe na bimwe harimo ibikinisho by'abana abana bambaye impuzankano zisa bari gukiniramo.

Umuhanda w'amabuye impande zombi hose hari inzu z'ubucuruzi birimo abagenzi bari kwerekeza mu byerekezo bitandukanye hamwe n'imirimo itandukanye muri karitsiye bita akajagari.

Inyubako y'ubucuruzi igeretse imbere yayo hari imbuga ngari yo guhagarikwamo ibinyabiziga, hari ibinyabiziga bine bihagazemo.

Inzu igeretse y'ubucuruzi, mbere yayo hari imbuga ngari, yo guhagarikwamo ibinyabiziga, hari ibinyabiziga bitatu bihagazemo.

Inyubako ifatanye n'umuhanda mbere yayo hari imodoka ebyiri zihagaze hari abantu bari kugenda mu byerekezo bitandukanye ku rundi ruhande rw'iyo nyubako hari izindi modoka nazo zihagaze mu muhanda hari ibinyabiziga biri kugenda mu byerekezo bitandukanye.

Inyubako ya etaje imbere yaho hari imodoka ebyiri zirabura, hari n'icyapa cyanditseho iduka bita samba, ifite ibyo kunywa by'ubwoko bwose muri etaje.

Inyubako ya etaje igeretse ifite ibara risa umweru ndetse n'umukara, imbere y'iyo nyubako hahagaze ibinyabiziga bigera kuri bine, harimo imodoka ndetse n'ibindi.

Inyubako y'ubucuruzi umuryango wa mbere ucuruza imyenda y'abagabo harimo amakositimu, amashati, amasosogisi, inkweto. Umuryango wa kabiri ucuruza ibyo kurya by'amatungo atandukanye.

Imihanda ibiri ifatanye, itandukanyijwe n'ubusitani burimo ibiti ndetse n'amatara maremare amukira umuhanda, imbere yayo hari aho abanyamagenzi bambukira, harimo ibinyabiziga muri iyo mihanda, harimo n'abagenzi bari kwambuka.

Imihanda ibiri ifatanye itandukanyijwe n'ubusitani buri hagati y'imihanda, yerekeje mu byerekezo bitandukanye kandi bihabanye harimo umuhanda ugenderwamo n'amaguru w'abagenzi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, yaba iby'amapine ane cyangwa bifite amapine abiri, hejuru hari undi muhanda uri hejuru ufashwe n'inkingi ebyiri ku ruhande rumwe n'izindi ebyiri ku rundi ruhande.

Inzu mberabyombi ubona ko irimo abantu benshi higanjemo abantu bakuze ndetse n'urubyiruko, ariko hakaba harimo n'abayobozi, ukaba ureba ko bose bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro kandi, buri wese imbere ye hakaba hari icupa ry'amazi. Hakaba harimo n'umuntu uhagaze inyuma wambaye impuzankano y'umukara.

Bugorobye, mu muhanda, harimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, byose byacanye amatara, ndetse n'amatara yo mu muhanda na yo ari kwaka, hari ikinyabiziga kimwe gifite amatara arikwaka kurusha ayandi.

Aho umuhanda utambitse winjirwamo n'uhagaze, mu muhanda utambitse harimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, biri kwerekeza mu byerekezo bitandukanye, kandi bihabanye.

Imihanda ibiri iri kuva mu byerekezo bitandukanye, irimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, yahuye igakora umuhanda umwe.

Umuhanda mugari urimo ikinyabiziga kimwe kiri kugenda gisa ubururu gifite amapine ane, ku mpande z'uyu muhanda hari ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'ubwatsi.

Umuhanda urimo ikinyabiziga kimwe kiri kugenda ugafatana n'ubusitani butoya burimo amatara maremare bateyemo uzengurukijwe n'amabuye, ubwo busitani bugafatana n'inzira yagenewe kugendwamo n'abanyamaguru, hirya y'iyo nzira hakajya ubusitani bunini buteyemo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Imihanda ibiri ifatanye itandukanyijwe n'ubusitani buri hagati y'iyo mihanda, buzengurukijwe n'amabuye, muri ubwo busitani hagati hagiye hateyemo ibiti.

Ihuriro ry'imihanda ine aho hagati muri iyo mihanda harimo ubusitani ndetse n'amatara, aho imodoka ziri muri iyo iyo mihanda iri kwerekeza mu byerekezo binyuranye, cyangwa ikerekeza mu byerekezo bimwe.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye mu bwoko, aho umuhanda uri kurangirira hagahita hinjiramo imihanda ibiri itandukanye.